Abantu benshi bari hamwe barimo barajya inama kabamo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bari imbere ya mudasobwa bari kure umwe arimo arabereka ibintu afite ikaramu mu ntoki ndetse n'amakaye. Bari mu nyubako ifite ibikuta bisa umweru n'umugabo uhagaze uri kugenda muri icyo cyumba.

Abagabo batatu bicaye, umwe ari hagati yambaye ikositimu y'umukara ndetse na karuvati, yambaye n'amadarubindi, abandi bari kuru ruhande bambaye amashati ndetse n'undi yambaye ikoti, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari imeza iriho mudasobwa, amakayi ndetse n'amakaramu, n'udukapu. Inyuma y'iyo nzu hari ibiti birebire bihateye.

Abantu bicaye bari mu nama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, Bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari imeza iriho telefone, amakayi n'amakaramu, amazi ari mu gacupa ndetse iyo nyubako barimo ifite ibikuta by'umweru, imbere yabo hari insakazamashusho nini.

Abantu benshi bari mu nama bakaba bicaye ku ntebe z'umweru, ndetse n'ameza ziri imbere zikaba zifite ibitambaro by'umweru. Muri abo bantu harimo abagabo ndetse n'abagore. Icyumba barimo gifite amabara y'umweru, hari umusore ubari imbere ufite indangururamajwi arikubagezaho ubutumwa.

Abantu bicaye bakurikiye bakaba bameze nk'aho bari mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore. Imbere yabo hakaba hari umugore wambaye imyenda y'umukara akaba afite n'indangururamajwi mu ntoki, bakaba arimo arabagezaho ubutumwa. Muri icyo cyumba hari ndetse n'insakazamashusho nini.

Abantu bicaye bari mu nama hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore. Imbere yabo hari abandi bantu batanu, harimo abagabo ndetse n'abagore, abirabura ndetse n'abazungu, bakaba bafite indangururamajwi ku ruhande rwabo, bari kugeza babakurikiye ubutumwa; inyuma yabo hari icyapa kirekire kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Abantu benshi bicaye bari mu nama. Bakaba bicaye ku ntebe ziriho ibitambaro by'umweru ndetse imbere yabo hari ameza na yo ariho ibitambaro by'umweru. Ku meza hariho amazi yo kunywa ndetse hariho amakayi ndetse n'amakaramu. Iyo nzu barimo ifite inkuta z'umweru.

Abantu benshi bari hamwe, bamwe bakaba bicaye, bicaye ku ntebe z'umweru abandi bakaba bahagaze, aba bantu harimo ab'igitsina gabo ndetse n'ab'igitsina gore, hirya aho hakaba haparitse imodoka nyinshi zigiye zitandukanye, bakaba bateze amatwi bakurikiye bameze nk'aho barimo barahabwa ubutumwa runaka.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bakaba bari mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye, imbere yabo hari imeza iriho ibitambaro by'umweru, bakaba barimo barandika, imbere yabo ku meza hariho amazi ikayi ndetse n'amakaramu, bamwe bafite na za telefoni mu ntoki.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba bose bambaye udupira tw'amaboko magufi turi mu mabara y'ubururu bwijimye bakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe imbere yabo hari meza ziriho amazi, terefone, ikayi n'ikaramu, hakaba hari umwe uhagaze ufite indangururamajwi uri gutanga igitekerezo cye.

Abantu benshi bicaye bari mu nama, akaba bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abagabo n'abagore, bicaye ku ntebe z'umutuku, bicaye mu nzu ifite inkuta z'umweru ndetse bakaba bafite ikaramu ndetse n'amakayi mu ntoki bari gufata cyangwa kwandika ibyo bumvise, hari n'abicaye imbere y'abo hari ameza ariho amazi ndetse n'amakayi n'amakaramu.

Abantu bicaye bari mu nama hakaba harimo ab'igitsina gabo ndetse n'ab'igitsinagore, bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo harimeza yateretseho telefone, amazi yo kunywa ndetse n'amakayi, muri iyo nzu barimo afite imitako igiye iri kubikuta, ibikuta bikaba bisize ibara ry'umweru.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye mu cyumba bameze nk'aho bari mu nama, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba ari meza nini, hakaba hariho mudasobwa, amazi yo kunywa, amakayi ndetse n'amakaramu yo kwandika ibyo bumvise, ahantu bari hakaba hari n'insakazamashusho nini.

Abagabo bicaye bari mu nama, bakaba bambaye ikositimu, abandi bambaye amashati, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hakaba hari meza nini ikaba iteretseho mudasobwa ndetse ariho n'amazi yo kunywa.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bakaba bicaye ku ntebe z'umweru, bambaye udupira hejuru tw'amaboko magufi turi mu mu mabara y'ubururu, umukara, icyatsi ndetse n'umuhondo. Bari ahantu muri sitade bateze amatwi kandi bakurikiye ibyo barimo barabwirwa.

Abantu benshi bicaye bari mu nama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hari imeza, imeza iteretseho amazi yo kunywa ndetse na za mudasobwa; amakayi ndetse n'ikaramu, hakaba hari n'undi mugabo uhagaze uri kubagezaho ubutumwa, akaba ameze nk'ubereka ibintu biri ku nsazakaza mashusho ibari imbere.

Abantu benshi bari mu nama hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore abirabura ndetse n'abazungu bakaba bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza igiye iriho udutasi ndetse n'udusahani amazi yo kunywa ibitabo amakaramu ndetse n'ibindi, bakaba bari mu nyubako nini ifite ibikuta by'umweru ndetse n'umuhondo.

Abantu benshi bari mu nama bakaba bicaye bakoze akantu kameze nk'uruziga, bicaye ku ntebe z'umukara. Imbere yabo hari imeza ikaba iteretseho amazi yo kunywa, indangururamajwi ndetse bakaba bafite n'aho bari kwandika. Bari mu cyumba gifite inkuta z'umuhondo ndetse ziriho n'imitako y'imigongo; imbere hakaba hari icyapa kinini cyangwa igitambaro kiriho amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, cyanditseho Kigali yacu.

Abantu bateraniye hamwe bari mu nama, iki cyumba barimo gifite inkuta z'umweru hasi amakaro ni umweru, harimo abagore ndetse n'abagabo , bicaye ku ntebe z'umuhondo imbere yabo hakaba hari imeza iriho amakaye, telefone ndetse n'amakaramu, hari umugore uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki uri gutanga igitekerezo ke.

Abantu bicaye mu nama. Hari umugabo uri imbere wambaye ikositimu ndetse na karuvati n'ishati y'ubururu. Iruhande rwe hari umugore wambaye agakanzu karekare n'undi ku ruhande wambaye agashati. Bakaba bateze amatwi. Bicaye ku ntebe z'umukara. Imbere yabo hari imeza iriho amazi, amashakoshi ndetse bakaba bafite ikaramu none bakaba bari no kwandika. Ku ruhande hari ibikuta bisa umweru ndetse n'imitako yo mu nzu.

Abantu benshi bateraniye hamwe, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye mu itente y'umweru ndetse hari umugore uri hagati uri gutanga ubutumwa, hakaba hari n'umugabo uhagaze ufite ibyuma urimo urafata amashusho ndetse n'ibindi biri gukorerwa aho. Aho hantu hari ndetse n'indangururamajwi ziri mu bwoko bwa bafure, hakaba hari n'abantu ku ruhande bicaye mu byatsi barimo baratega amatwi.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba harimo abantu b'igitsina gabo ndetse n'abantu b'igitsina gore bicaye ku ntebe z'ubururu, iyo nyubako barimo ifite ibyuma bigenda bikonjesha cyangwa bishyushya icyo cyumba kugira ngo abantu batabangamirwa, hari n'umugabo uhagaze hagati yabo urimo uratanga ubutumwa.

Abantu benshi bicaye bakaba bicaye mu nama harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bateze amatwi bari mu nzu nini ifite ibirahuri bibonerana, imiryango ikaba isa umukara hakaba arimo abazungu ndetse n'abirabura, hakaba hari ibiti biteye muri iyo nzu biri mu mavazi.

Abantu benshi bicaye bari mu nama harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye mu ntebe zifite amabara y'umweru, inkuta z'icyo cyumba nazo ni umweru, hakaba hari umugabo uri hagati uhagaze usa nkaho uri kubabwira. Imbere y'abo bantu hakaba hari ameza afite ibitambaro by'ubururu ndetse hariho na mudasobwa n'amazi yo kunywa.

Abantu benshi bahagaze bakaba bambaye imyenda y'umuhondo, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, hakaba hari n'bandi bantu bicaye imbere yabo bambaye imyenda y'icyatsi hejuru, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara hakaba n'undi mugore uri ku ruhande wambaye impuzankano za polisi bari mu nzu nini ifite inkuta z'umuhondo.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba bicaye mu cyumba harimo abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe zisa ikigina imbere yabo hakaba hari ameza y'igitambaro cy'umukara hariho mudasobwa bafite amakaye ndetse n'amakaramu ndetse n'amazi yo kunywa mbere yabo insakazamashusho nini cyane akaba ari umugabo uhagaze yuko baha ubutumwa.

Icyumba kinini kikaba gifite inkuta zisa umuhondo hejuru parafo ikaba isa umweru ndetse n'amatara akaba arimo araka, hakaba harimo intebe zisa ubururu ndetse imbere y'intebe hari imeza ziteretseho mudasobwa, amazi ndetse n'ibipapuro. Imbere hagati mu cyumba hari abantu benshi barimo abagabo ndetse n'abagore, abirabura ndetse n'abazungu bakaba bahagaze bari gufata ifoto bameze nk'aho basoje inama.

Abantu bicaye bari mu nama hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, hakaba harimo umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi y'ubururu, hagati hari umugore wambaye agakoti k'umutuku ndetse iruhande rwe hari umugore wambaye agakoti k'umukara, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu mabara y'icyatsi n'ubururu cyanditseho Kigali yacu, Kigali ikeye bicaye ku ntebe z'umukara kandi imbere yabo hari ameza y'amabara y'umutuku iriho za mudasobwa ndetse n'indangururamajwi.

Abantu bicaye ku ntebe ndetse bari mu cyumba, hakaba icyumba gifite inkuta zifite ibara ry'umweru hakabamo abagabo n'abagore, bicaye imbere yabo hakaba hari imeza ziriho impapuro, ikaramu ndetse n'amazi yo kunywa.

Abantu benshi bicaye bari mu nama, akaba harimo umukobwa ndetse n'abahungu, bicaye ku ntebe zifite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, imbere yabo hari imeza, bakaba bari kwandika bafite ikaramu ndetse n'ikaye mu ntoki ndetse hakaba hari n'amazi ari mu ducupa ateretse imbere yabo.

Abantu benshi bicaye bari mu nama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, abirabura ndetse n'abazungu, bakaba bicaye ku ntebe imbere yabo hakaba hari imeza, iyo meza iriho ama telefone yabo, amakaramu, impapuro ndetse ibirahure ndetse n'amazi yo kunywa, bari mu nyubako ifite ibikuta by'umuhondo.

Abantu benshi bicaye bari mu nama bakaba baricaye ku ntebe z'umweru ndetse imbere yabo akaba hari meza, izo meza ziriho amazi yo kunywa amakayi n'amakaramu hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo hakaba harimo abirabura n'abazungu bari mu nama mu cyumba gifite inkuta z'umukara imbere yabo akaba ari umugabo ubagezaho ubutumwa.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba bari mu nama harimo abagabo ndetse na bagoreri bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hakaba hari imeza iriho mudasobwa, amazi yo kunywa ndetse barimo barabdika n'ibyo bumvise, bakaba bari mu cyumba gifite inkuta z'umuhondo.

Abantu benshi cyane bakaba bicaye, bamwe bicaye mu byatsi abandi bicaye munsi y' itente. Iruhande rwabo bakaba hari inzu nini ndetse hari n'ikigega gifata amazi y'imvura. Bicaye ahantu hari ibiti byinshi kandi birebire. Hakaba hateye ndetse n'ibyapa bigenda byamamaza. Imbere yabo hakaba hari umuntu uri kubaha ubutumwa, ufite indangururamajwi.

Abagabo bicaye bari mu nama bateze amatwi. Bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, inzu barimo ifite ibikuta by'umweru. Bicaye imbere yabo hari imeza iriho ibintu bigiye bitandukanye harimo; amazi yo kunkwa, terefone, amakayi ndetse n'amakaramu, barimo barandika ibyo bumvise.

Abantu bateraniye hamwe, bakaba bameze nk'aho bari mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, ndetse imbere yabo hari ameza iriho ibikapu byabo ibikombe birimo amazi yo kunywa, amakaye ndetse n'amakaramu, icyo cyumba barimo kitatsemo amabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu, hari umugabo uri hagati uri kubagezaho ubutumwa.

Abantu benshi bicaye bakaba bari mu nama, bambaye udupira tw'ubururu. Bakaba bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari imeza, kuri iyo meza hariho ibyo kunywa; nk'ikawa ndetse n'amazi yo mu gacupa; hakaba hateretse ndetse na terefone, ndetse barimo baranandika ibyo bari kumva. Higanjemo abasore muri abo bantu.

Abantu bicaye bari mu nama, hakaba higanjemo abagabo ariko harimo n'abagore. Bicaye ku ntebe ziriho ibitambaro by'umukara, imbere y'abo hakaba hari imeza nayo iriho igitambaro cy'umukara, ku meza hariho amazi ari mu ducupa, amatelefone y'abo ndetse n'amakayi n'ikaramu. Bakaba bateze amatwi bakurikiye.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bakaba bicaye mu matente y'umweru ndetse n'ubururu, harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bizihiwe cyane, hari n'abandi bahagaze barimo baracinya akadiho, aho hantu bari ni mu mbuga irimo ibyatsi byinshi ndetse hateye n'ibiti.

Abagabo bicaye mu nama bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hari imeza, iyo meza ikaba iriho mudasobwa, hari n'umugabo wicaye hagati ku ruhande wambaye ikositime y'umukara ndetse na karuvati, iyo nyubako barimo ifite ibikuta by'umuhondo hanze hakaba hateye n'ibiti.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba bicaye bameze nk'aho bari mu nama hakaba barimo abagabo ndetse n'abagore imbere y'abo hakaba hari abantu batanu bahicaye bameze nk'ababa mu batangabutumwa bafite indangururamajwi mu ntoki ku ruhande hari akantu kameze nk'akameza kariho amazi ndetse n'ibyo kunywa bya ji inyuma yabo hari icyapa kinini cy'ubururu.

Abantu bicaye bari mu nama bakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye mu cyumba gifite inkuta z'umweru ndetse akaba imbere yabo hari imeza iriho mudasobwa, amazi yo kunywa bafite amakayi ndetse n'amakaramu bari kwandika ibyo bumvishe. Hari umugabo uhagaze ku ruhande uri kubabagezaho ubutumwa.

Umugabo wambaye ishati y'umukara akaba afite indangururamajwi mu ntoki akaba arimo aratanga ubutumwa kuruhande rwe hari umugore wambaye ikanzu y'icyatsi ndetse urundi ruhande rw'umugabo nawe wambaye ishati y'amaboko maremare bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza iriho amazi, telefone, ndetse n'amakayi yo kwandika vuba baka bameze nk'aho bari mu nama.

Abantu benshi bicaye abandi bahagaze, bakaba bateraniye hamwe. Ahantu bari hari ibyatsi ndetse hateye n'ibiti, hari n'ikigega kinini gifata amazi mu gihe imvura yaguye. Hirya hari amazu; hari umugore uri hagati wambaye imyenda y'umukara ufite isakazamajwi, akaba ari kugeza ku bamukurikiye ubutumwa.

Umugabo wambaye umupira w'umweru. Akaba mu ntoki ze afite telefone. Akaba ari ubutumwa buri mu mabara y'umweru n'ubururu bw'Irembo. Bukaba bukwereka y'uko bu ushobora kwikorera ibintu utiriwe ujya kureba undi muntu ubigukorera. Bakaba bakwereka ibisabwa ndetse bakwereka n'inzira wagenda ucamo kugira ngo ubyikorere.

Intebe y'umukara iruhande rwayo hakaba hari amabara y'umweru ndetse n'ubururu akaba ari ubutumwa bw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, kimenyesha abantu yuko barimo barashaka abakozi cyane cyane abatekinisiye bazakoramo umwaka umwe, akaba gutanga ibintu byawe cyangwa ibyo usabisha akazi bizarangira tariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwa kabiri makumyabiri makumyabiri na kane.

Umunara munini kandi muremure cyane ukozwe mu byuma, ukaba usize amabara y'umutuku ndetse n'umweru, hakaba hari n'ibindi byuma ndetse n'amamashini ari iruhande rwa byo, bikaba bizitiye mu kantu kariho na senkenge ndetse n'utwuma dusize amabara y'ikigina, kugira ngo bitangizwa, hirya yaho hari ibiti byinshi kandi birebire.

Mudasobwa ndetse ikaba iteretse iyegeranye na telefoni, bakaba bakubwira ko wamenyekanisha uyu munsi umusoro ku nyungu za makumyabiri makumyabiri nagatatu, wishyure bitarenze tariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwa gatatu, makumyabiri makumyabiri na kane. Ni ubutumwa bw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Inyubako ifite ibikuta by'umweru, imiryango ndetse n'amadirishya by'umweru, hasi amakaro na yo asa umweru, mo imbere hakaba harimo ameza iteretseho mudasobwa ndetse harimo n'umuntu wicaye ku ntebe, hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru n'ubururu cyanditseho irembo hanze y'iyo nzu. Ikaba ari inyubako itangirwamo serivisi zose z'irembo.

Ubutumwa bw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, bikaba biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, bakwibutsa yuko habura iminsi itatu kugira ngo itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa makumyabiri makumyabiri na kane ugere, bakaba bagushishikariza kumenyekanisha uyu munsi kugirango ngo wishyure mbere y'itariki ntarengwa.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Iruhande rwayo hakaba hari inzu nini ikorerwamo ubucuruzi hakaba haparitse na moto. Abantu bakabamo baragendagenda hafi y'iyo nzu ndetse hakaba hari n'ibicuruzwa bigiye biri hanze nk'urugero nk'igitoki.

Abantu benshi bateraniye hamwe, bakaba bari mu cyumba kinini gifite inkuta z’umweru. Hari abantu bicaye, hakaba hari mudasobwa nyinshi, abandi barimo barazikoresha. Ku rundi ruhande, hari umugabo uhagaze, urimo uragenda abafasha mu gihe bahuye n’ikibazo runaka. Hari n’abandi bantu bahagaze ku ruhande, barimo baraka izindi serivisi zitandukanye.

Icyapa kinini kiriho inzu ndetse ku ruhande hateweho ibiti n'ibyatsi. Ni ubutumwa bw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro. Bakaba bababwira ko habura iminsi itatu gusa kugira ngo igihe cyagenwe cyo kumenyekanisha ndetse no kwishyura imisoro ya makumyabiri makumyabiri na kane kibe cyageze. Iyo tariki ni mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi na kabiri, makumyabiri makumyabiri na kane. Bagushishikariza kumenyekanisha ndetse no kwishyura imisoro mbere yuko iyo itariki igera.

Mu butumwa bw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro, akaba ari ubutumwa buri mu mabara y'umweru, ndetse n'ubururu, akaba akubwira yuko amatariki y'ingenzi mu kwezi kwa cumi n'abiri, amatariki arimo cumi n'eshanu z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na rimwe, amatariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na rimwe, ndetse bakakubwira n'icyo ayo matariki asobanuye, aho bamwe bavuga ko ari itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura teveya ndetse n'ibindi.

Ubutumwa bw'Irembo. Bukaba buri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, bakaba bakubwira ko hari serivisi nshyashya zaje ku rubuga rw'Irembo, biri mu cyiciro cy'ubucuruzi n'inganda. Bakaba bagiye batanga uruhushya rushyashya rurimo urwa nyuma rwo guhinga urumogi, rwo gucuruza imbuto, rwo gutubura imbuto ndetse n'ibindi byinshi. Hakaba munsi hariho na nimero, ushaka ubufasha kuri watsapu wakwandikira cyangwa ukabahamagaraho.

Mudasobwa ndetse na telefone bikaba biri ku cyapa cyangwa ku butumwa biri mu mabara y'umweru n'ubururu, haba hari ubutumwa bw'irembo kugira ngo byikorere bakwi kwereka intambwe wacamo kugira ngo wiyandikishe mu gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga bakwereka ndetse n'ibisabwa.

Abantu benshi bateraniye hamwe hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bari mu cyumba gifite inkuta zisize ibara ryera, bakaba bameze nkaho bari mu ishuri, imbere yabo hari imeza ndetse iyo meza ikaba iriho mudasobwa, bakaba barimo barakoresha izo mudasobwa.

Inzu nziza ikaba imbere iteyeho utwatsi iri ku cyapa kinini cy'ubururu ndetse amagambo yandikishije umweru n'umuhondo bikaba aru butumwa buvuga ngo menyekanisha umusoro ku mutungo utimukanwa n'umusoro ku nyungu z'ubukode uyu munsi kwishyura umusoro wamenyekanishije bigomba gukorwa mbere yo kuwa kane tariki makumyabiri nicyenda z'ukwa kabiri makumyabiri na nakane n,ubutumwa bw'ikigo cy'imisoro n'amahoro

Mudasobwa iri imbere, akaba ari ubutumwa cyangwa icyapa k'irembo kikubwira yuko wabyikorera, bakwereka intambwe wacamo kugira ngo uhabwe serivisi runaka, intambwe ya mbere gana urubuga rw'irembo ahanditse paroyisi, bakubwira ibisabwa ndetse bakwereka n'ibyo wakora kugira ngo ubyikorere.

Abagore bari mu cyayi barimo baragisoroma, bakaba bafite akantu inyuma ushyiramo icyo cyayi, hirya yaho hantu icyo cyayi giteye, hateye ibiti byinshi cyane ndetse n'ishyamba, akaba ari urubuga rwa minisiteri y''ubuhinzi ikwereka yuko uko ushobora gushyiramo ahantu wakwinjirira muri konti yawe.

Umugore wambaye akantu mu mutwe akaba afite amafaranga mu ntoki arimo aratanga ayo mafaranga ku wundi mukobwa uri imbere yambaye agapira k'amaboko magufi k'umuhondo akaba afite akuma mu ntoki ni mu iduka rinini ritangirwamo serivisi zigendanye n'amafaranga iruhande rwabo hari imodoka zihaparitse.

Aba bagabo batatu bahagaze bakaba bambaye udupira hejuru tw'ubururu ndetse bambaye n'udupfukamunwa bamwe hakaba hari nibikapu biri ku ruhande hari umunara muremure cyane ufite amabara y'umweru ndetse n'umutuku bikaba ukozwe mu byuma bari ahantu hari ibyatsi ndetse n'amazu kuruhande rwaho.

Ubutumwa buri mu mabara y'umweru n'ubururu hakaba hari mudasobwa ndetse na terefone akaba ari ubutumwa bw'irembo ikubwira ko wabyikorera ikubwira ko hari intambwe nyinshi zigiye zitandukanye wacamo kugira ngo ubyikorere, intambwe ya gatatu hari ukaba arimo guhitamo kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'icyiciro cyisumbuye bakakubwira ibisabwa.

Umuntu w'igitsina gore akaba yicaye, ukuboko kwe kw'ibumoso afitemo telefone ndetse yambaye agapira k'umweru, imbere ye hari imeza iriho mudasobwa akaba ari kuyikoresha ku kuboko kwe kw'iburyo, bakaba bakwereka y'uko ari ahantu hatangirwa serivisi za murandasi.

Umuhungu muremure wambaye ipantaro ya kaki ndetse n'agapira k'icyatsi, akaba ari imbere y'umugore wicaye wambaye umwenda w'umweru ari kwandika ndetse afite n'imeza imuri imbere ifite amabara y'umuhondo n'umweru, imbere kuri iyo meza hateretse mudasobwa, akaba arimo araha serivisi umuntu uje umugana, ku ruhande hari nundi mugore nawe wambaye kimwe nawe we ufite mudasobwa imbere ye.

Abantu bicaye ku ntebe harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba imbere yabo hari imeza ziriho mudasobwa, hakaba hari n'ibikapu biri hasi ku makaro y'umweru, hakaba hari umugabo ubari imbere ameze nk'aho ari kubigisha, bakaba ari abanyeshuri. Icyumba barimo gifite inkuta z'umweru.

Umugabo wicaye wambaye ishati ndetse n'ipantaro y'ikoboyi; yicaye ku ntebe y'umweru, imbere hari imeza, hakaba hari n'umugabo uhagaze wambaye agapira k'umweru ndetse n'ingofero y'ubururu, akaba ari ubutumwa bw'Irembo bikubwira yuko ushobora kwikorera ibintu utiriwe uva mu rugo, ukaba wakanda akayenyeri icyenda zeru icyenda urwego cyangwa ugasura urubuga rw'Irembo.

Ubutumwa bw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro. Akaba buri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu. Bakubwira ko itariki ntarengwa yo kumenyekanisha ndetse no kwishyura imisoro yegereje. Ikaba ari tariki makumyabiri n'icyenda z'ukwa kabiri, ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya kakaba hacamo imodoka zitandukanye harimo n'imodoka imwe ifite amabara y'umweru itwara abantu mu buryo bwa rusange, harimo n'abantu barimo bagenda bagenda mu muhanda hirya hakaba hari amazu menshi akorerwamo ubucuruzi, ndetse hateye n'ibiti birebire hari n'amapoto asakaza amashanyarazi mu baturage.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hirya hakaba ariho haracamo umukobwa, ndetse ku ruhande rwe hari poto rirerire ririho itara rimurikira abantu mu gihe cy'ijoro. Hirya yaho hateye ibyatsi ndetse n'ibiti, hakaba hateye n'uturabo; hirya hari ipoto rirerire riririho insinga z'amashanyarazi zigenda zisakaza umuriro, ndetse hari n'ingo nyinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga akaba ari umuhanda w'amabuye, hirya hari inzu akaba ari igipangu gifite amabara y'umweru ndetse n'ikigina hanze yacyo hakaba hateye ubusitani, hari n'amapoto maremare ariho insinga z'amashanyarazi zigenda zisakaza umuriro mu ngo zigiye zitandukanye.

Umuntu w'igitsina gore akaba yambaye agapfukamunwa, yambaye umupira w'umutuku ndetse n'akajiri, akaba yambaye n'ingofero hejuru ndetse na ga zabugenewe, iruhande rwe hakaba hari ahantu hari insinga nyinshi bigaragaza ko ari umutekinisiye uje gukemura ikibazo runaka cy'amashanyarazi.

Abagabo babiri bambaye ibisarubeti ndetse n'ingofero bakaba bari hejuru ku mapoto, aya mapoto arimo insinga z'amashanyarazi zigendanda zisakaza umuriro mu ngo bakaba bameze nk'aho ari abatekinisiye baje kuri izo nsinga zagize ikibazo, hirya hakaba hari ibiti birebire kandi byinshi.

Ipoto rirerire cyane, rikaba ririho insinga z'amashanyarazi zisakaza umuriro mu bice bigiye bitandukanye, hari ndetse n'itara rimurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro, rikaba riteye ku ruhande rwabyo hari igikuta kirekire cyubakishijwe amatafari ahiye, kigiye kiriho n'amatara ndetse n'utwuma dusize ibara ry'ikigina.

Inyubako nini ikaba isize amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, iruhande hasize amabara y'ubururu handitseho amagambo sita tayimu, hari ipoto rirerire ririho insinga z'amashanyarazi, zisakaza umuriro mu ngo ndetse hakaba hariho n'itara rimukira abakoresha umuhanda mu gihe k'ijoro, ku mpande hari ibiti birebire kandi byinshi, hari n'andi mazu ari ku ruhande rw'iyo nzu.

Umunara munini kandi muremure cyane, ukozwe mu byuma. Hakaba n'undi munara uri iruhande rwawo nawo ariko mugufiya, hakaba hariho insinga nyinshi z'amashanyarazi, zikaba zigenda zisakaza umuriro mu ngo zigiye zitandukanye, ukaba uri ahantu hari ibyatsi, ndetse hakaba hateye n'ibiti hirya yawo.

Ahantu hanini hitaruye hakaba hari iminara minini y'ibyuma ndetse ikaba yegeranye n'amamashini menshi cyane, hakaba hameze nk'urugomero cyangwa ahantu hakorerwa amashanyarazi. Hirya ya ho hari amazi menshi cyane, hari n'abantu bagiye bari gutambuka iruhande rw'ahantu hari amamashini.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye akaba harimo haracamo imodoka zigenda mu byerekezo bitandukanye, akaba harimo haracamo n'abantu bagenda mu tuyira tw'abanyamaguru. Hafi y'umuhanda hari amazu menshi ndetse agiye akorerwamo ibintu bitandukanye. Hari n'amapoto maremare ariho amatara ndetse n'insinga z'amashanyarazi hirya hateye ibyatsi ndetse n'ibiti.

Ibiti birebire by'amapoto bikaba biriho insinga z'amashanyarazi zigenda zisakaza umuriro mu bantu hakaba hari n'amazu agiye ari ku ruhande rw'iryo poto hari n'ipoto yindi rito ifiteho itara rigenda rimurikira abantu cyangwa abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro. Hakaba ndetse n'ibiti birebire kandi byinshi bikikije iryo poto.

Utuyira abantu bacamo tukaba dusakaye hejuru, iruhande rwayo hakaba hateye ibyatsi ndetse birimo n'ibiti, hiryari inzu ndende ikaba ifite amabara y'umuhondo, amadirishya yo akaba asa umweru, hari utwapa tugaragaza ko aha ahantu ari aho babagira ndetse n'akandi ko munsi kanditseho indwara z'amaso bikaba bigaragara ko aha hantu ari kwa muganga.

Akayira gacamo abayamaguru kakaba kasakaye hejuru ari amabati. Hepfo hari inyubako zigiye zitandukanye zifite amabati asa umutuku akaba hari n'ibyatsi biteye imbere y'ayo mazu akaba ari inyubako ikorerwamo n'ibigo bya leta.

Inyubako nini cyane ikaba ifite amabara y'umweru ndetse n'ikigina, ikaba ari inyubako ifite amagorofa menshi. Abantu bamwe bakaba barimo barinjiramo abandi basohoka, hanze yaho haparitse imodoka zifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku ndetse hakaba hari n'ibiti birebire biteye iruhande rw'iyo nzu.

Inyubako nini, ikaba ifite ibikuta hanze bisize amabara y'umuhondo, mo imbere hakaba harimo ibikuta bisize amabara y'umweru, hakaba harimo n'intebe ndetse yicayemo n'abantu, ifite purafo isa amabara y'umweru, hakaba abantu bari gucacana hanze, ndetse hakaba hari n'abandi bicaye ku dutebe, iyo nyubako ifite imiryango isize amabara y'ikigina.

Akayira abantu bacamo kakaba gasakaye, hirya yaho hakaba hari amazu menshi, hakaba n'umugore wicaye imbere y'inzu imwe, akaba ari ahantu hari ubusitani burebure ndetse buteyeho n'imiti, hakaba hameze nko kwa muganga abantu bakaba bategereje guhabwa serivisi.

Inyubako ifite akayira abanyamaguru bacamo. kagenda kakagana mu nzu ifite amakaro hasi y'umweru, inkuta zisize amabara y'umweru ndetse n'ikigina. Hakaba harimo abantu barimo bamwe barimo basohoka abandi binjira, harimo abagabo ndetse n'abagore. Iyo nyubako ikaba imeze nk'aho ari kwa muganga

Akayira gacamo abantu kakaba gasakaye amabati, hirya hari icyapa cyerekana ko aha hantu bavura indwara z'amaso. Hakaba aho hantu hameze nko kwa muganga hari amazu menshi agiye akikije abantu ndetse hateye n'ubusitani burimo ibiti ndetse n'indabyo.

Inyubako nini ikabamo imbere haparitse imodoka nyinshi, hakaba hari umuryango uri mu mabara y'icyatsi, hari umuntu uri kuwufungura, umuryango uri n'udushushanyo tw'umusaraba bigaragaza ko aho ahantu hashobora kuba ari kwa muganga hari imodoka ziri gusohokamo ndetse hanze y'iyo nyubako haparitse n'izindi modoka.

Abantu babiri bahagaze bambaye amakabutura ndetse n'amashati magufi y'amabara y'iroza. Imbere yabo hakaba hicaye abagore babiri bambaye imyenda y'umukara n'umweru, imbere yabo hari imeza iriho mudasobwa, impapuro, amakaramu ndetse n'amazi yo kunywa. Ku ruhande rw'abagabo hari n'undi mugabo uhagaze wambaye imyenda y'umukara, bakaba bameze nkaho baje kubura nta cyangwa kuburanishwa.

Umugabo udafite umusatsi, akaba yambaye n'amadarubindi. Yambaye imyenda minini cyane y'amabara y'umutuku ndetse n'umukara n'umweru, akaba mu imbere yambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umukara, akaba asa nk'ukora mu rukiko, akaba ari umucamanza cyangwa se umushinjacyaha.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, bicaye ku ntebe za oranje iki cyumba barimo gifite inkuta z'umweru, ndetse bakaba bicaye imbere yabo hari imeza, iyo meza iriho amazi ndetse n'udukayi n'amakaramu barimo bandika ibyo bumvise.

Inyubako ndende kandi nini ikaba ifite icyapa hanze kiri mu mabara y'umweru n'umukara kivuga ko iryo ari igororero rya Rwamagana, hakaba hirya hari n'andi mazu asanzwe afite amabati y'umutuku muri iyo nyubako akaba ari ibiti birebire kandi byinshi birayateye ikaba ifite igipangu cy'umukara.

Abantu benshi bicaye bari mu nama bakaba barimo abagore ndetse n'abagabo bicaye mu nzu irimo amarido y'umutuku akaba imbere yabo hari imeza n'ibitambaro by'umweru hakaba hatetse amazi ari mu gacupa ndetse na mudasobwa, amatelefone indangururamajwi ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye ikabutura ndetse wambaye n'ishati y'amaboko magufi by'iroza. Uruhande rwe akaba hari umugabo wambaye ikanzu nini y'umukararimo n'utubara tw'umweru bakaba bameze nkaho bari mu rukiko. Umugabo wambaye iroza akaba aje kuburana ndetse uri kuruhande rwe akaba ari umuhagararira mu nkiko.

Umugore wambaye amadarubindi, akaba yambaye ikanzu nini y'umuho, y'umutuku ndetse ifite n'amabara y'umweru n'umukara, hagati akaba asa nkaho akora mu nzego z'urukiko n'umucamanza cyangwa umushinjacyaha.

Abantu benshi bakaba bahagaze harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye amakanzu y'umukara ndetse afite n'akantu k'umweru mu ijosi bari mu cyumba kinini gifite inkuta z'umuhondo bakaba bakora mu rukiko ari nk'abacamanza abashinjacyaha cyangwa abunganizi.

Abantu benshi bateraniye hamwe. Bakaba bari iruhande rw'umuhanda w'igitaka ndetse hakaba n'imodoka iri gucaho, ifite amabara y'umweru. Hari abantu bicaye ndetse n'abandi bahagaze, bambaye imyenda y'iroza. Bigaragaza ko aba bantu bashobora kuba bari muri gacaca. Hakaba ndetse n'abaturage benshi bazengurutse aho hantu. Hakaba hari n'ibiti biteye, ku ruhande rw'aho abo bantu bari.

Umugore wambaye amarinete, akaba yogoshe, akaba yambaye agashati hejuru gafite amabara y'iroza, hirya ye hakaba hari abantu bandi bicaye, hakaba n'undi muntu wambaye impuzankano ya kacyi imeze nk'aho ari umucungagereza, abantu bakaba bameze nk'abari mu rukiko umugore yaje kuburana cyangwa kuburanishwa.

Amapoto abiri manini asize amabara y'umweru n'umukara, akaba afashe icyapa kinini kigaragaza ko aho hantu ari gereza y'i Nyamagabe cyangwa ahantu bagororera abantu, hari n'ikindi cyapa cy'ubururu kimanitse kivuga ko ari urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa, gereza ya Nyamagabe. Iruhande rw'aho hantu hateye ibiti byinshi kandi birebire.

Abantu bateraniye hamwe bakaba bamwe bicaye hasi abandi bicaye ku dutebe, bari ahantu hakikijwe n'amazu menshi ndetse hateye n'ibiti birebire; hakaba hari abagabo babari imbere bambaye amakabutura ndetse n'amashati y'amaboko magufiya y'amarose; birasa nkaho bari muri gacaca.

Umugabo wambaye ikositimu ndetse yambaye na karuvati n'ishati y'umweru akaba yambaye n'amadarubindi mu maso, imbere yari akameza karekare kariho indangururamajwi hakaba hari n'idarapo iri mu mabara y'umuhondo, icyatsi n'ubururu, iruhande rwe akaba arimo aratanga ubutumwa ahantu.

Abantu bicaye ndetse bateze amatwi bakurikiye, harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bambaye imyenda igiye itandukanye, ku ruhande bambaye akantu gafite amabara y'igihugu y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hirya hari ubusitani burebure kandi burimo ibiti byinshi.

Abantu bicaye, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, akaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda y'umukara ndetse irimo n'utuntu tw'umweru, bose bambaye udupfukamunwa, bicaye imbere yabo hari imeza iriho indangururamajwi ndetse na za mudasobwa hari ndetse n'amazi yo kunywa.

Abantu benshi bateraniye hamwe bamwe bakaba bicaye abandi bahagaze hari n'abandi bari ku ruhande bicaye ariko bambaye utuntu tw'idapo ry'igihugu, bakaba bo imbere yabo hari imeza hari umugabo uri hagati wambaye ikabutura ndetse n'ishati y'amoboko magufi by'iroza bameze nk'aho bari muri gacaca, bari ahantu hakikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'ubusitani.

Abantu benshi bateraniye hamwe ahantu mu cyumba, harimo abagabo bambaye amakanzu y'umukara, ndetse n'udupfukamunwa. Bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari imeza iriho mudasobwa ndetse n'uturangururamajwi, hakaba hari n'abandi bagabo benshi bambaye amakabutura ndetse n'amashati y'amaboko magufi n'udupfukamunwa by'iroza, bakaba ahantu hameze nk'aho ari mu rukiko baje kuburana, hari n'undi mugabo uhagaze hagati uri gufata amashusho y'ibiri kuhabera.

Umugore wambaye ikanzu nini y'umutuku ndetse hagati hakaba harimo amabara y'umweru ndetse yambaye n'akagofero k'umukara n'umuhondo, akaba amanitse ikiganza cy'iburyo icy'imoso kikaba gifashe idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Imbere hari indangururamajwi akaba ameze nk'aho ari kurahira.

Umugabo akaba yambaye amadarubindi ndetse n'akagofero mu mutwe k'umukara, ndetse hariho n'uturongo tw'umuhondo, yambaye ikanzu ndende y'umutuku ndetse hagati mu ijosi hakaba hamanukiyemo amabara y'umweru n'umukara, akaba ameze nkaho akora mu bucamanza.

Umugore wambaye ikanzu y'amaboko magufi y'iroza akaba afite n'igikapu ku rutugu yambaye n'amadarubindi akaba ku ruhande rwe hari umugore nawe wambaye imyenda yabugenewe y'abantu b'abacungagereza akaba arimo aramwambika amapingu ku ruhande hahagaze abandi bantu bafite ibikoresho bifata amashusho akaba bimeze nk'aho umugore avuye kuburanishwa cyangwa agiyeyo.

Umuntu w'umugore wambaye impuzankano z'umukara, akaba afite telefone mu ntoki ndetse yambaye n'ingofero, akaba akora mu kigo gishinzwe umutekano cya polisi, ahahagaze hirya ku kayira k'abanyamaguru, hirya ye hari amaduka agenda akorerwamo ubucuruzi ndetse hakaba hari n'abantu bari gutambuka.

Inyubako ifite ibikuta bifite amabara y'umweru, akaba hasi hari amakaro ndetse asa umweru n'umukara, hakaba hariho n'inzugi z'umweru, hakaba ku bikuta hariho ibyuma bibiri bifite amabara y'umutuku ndetse n'umukara, akaba ari ibyuma bikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Ahantu haparitse imodoka, hakaba haparitse imodoka zisanzwe ndetse n'indi modoka nini y'umukara ndetse irimo n'utubara tw'umweru. Akaba ari imodoka ijyanwamo imfungwa cyangwa ingororwa, akaba hirya hari ubusitani buhateye, akaba hameze nk'aho ari ahantu hakorera polilisi.

Abantu benshi bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bambaye impuzankano z'ubururu bwijimye bakaba bari ku murongo bakaba ari abapolisi bakaba bafite n'igikoresho cy'imbunda mu ntoki ryabo hakaba hari amazu menshi ndetse yateye n'ibiti.

Inzu nini ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, hakaba harimo ibikuta bifite amabara y'umweru, ku ruhande hari ibyuma bifite amabara y'umutuku, bikaba bikoreshwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro bikaba bifasha mu kuyizimya.

Abantu benshi batonze umurongo, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye impuzankano z'umukara za polisi, bakaba bahetse ibikapu mu mugongo ndetse bafite n'ibikoresho by'imbunda mu ntoki, ahantu bari hirya hari amazu ndetse hateye n'ibiti byinshi kandi birebire.

Imodoka nini cyane iri mu bwoko bw'igikamyo ikaba isa nk'aho yahuye n'ikibazo cy'inkongi y'umuriro hari abantu bambaye impuzankano zabugenewe, bafite amakamba manini arimo aracamo amazi bakaba barimo baragerageza kuzimya iyo nkongi, hirya hari ibyatsi ndetse n'ibiti bihateye.

Inyubako nini ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye. Ifite ibikuta biri mu mabara y'umuhondo, amakaro hasi asa umweru. Muri iyo nyubako harimo ibikoresho biri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, n'ibikoresho byifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro, bikaba bifasha mu kuyizimya.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, umunyamaguru akaba arimo aracamo, hirya hahagaze umugabo wambaye impuzankano z'umukara za porise, ku ruhande ndetse hateye n'ibyatsi n'ibiti byinshi, hakaba hari n'amatara maremare amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ikaba kurande ari akayira k'abanyamaguru karimo karacamo abantu benshi harimo abagore ndetse n'abagabo, hakaba hahagaze umugabo wambaye impuzankano ya polise, hirya hari ibiti binini by'amapoto bigiye biteyeho insinga z'amashanyarazi zisakaza umuriro mu ngo akaba ndetse n'ibiti byinshi n'ibyatsi.

Abantu bambaye impuzankano z'umukara bakaba bafite itiyo rirerire cyane irimo irarapiza amazi, bakaba bakora mu kigo gishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro, hirya hakaba ari inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro ndetse irimo irashya bakabamo baragerageza kuyizimya, kruhande rw'iyo nzu irimo irasha hakaba hari n'andi mazu.

Inyubako nini ikaba ifite ibikuta bisize amabara y'umweru, ndetse ifite n'amakaro y'umweru. Ku gikuta hariho igikoresho gifite amabara y'umutuku, kikaba gikoreshwa mu kuzimya ndetse no kurwanya n'inkongi y'umuriro; ndetse n'ikindi cy'igikamba kirekire bavanamo amazi mu gihe bari kuzimya inkongi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya, hakaba harimo gucamo imodoka ndetse na moto ,kuruhande hari utuyira tw'abanyamaguru hari umugabo wambaye impuzankano za polisi, akaba afite icyuma mu ntoki ndetse n'ikarita yerekana ko yemerewe gutwara ikinyabiziga, akaba arimo arareba koko niba iyo karita iri muri sisiteme.

Inyubako nini y'amagorofa mensh, ikaba ifite amabara y'umweru ndetse n'ikigina, imbere yayo hakaba baparitse imodoka ndetse iyo nyubako ikaba izengurutswe n'ibyatsi byinshi ndetse hakaba hateyemo n'ibiti birebire, hakaba hari inyubako ikorerwamo n'ikigo cy'umutekano cya Police.

Umugore wambaye umukenyero, akaba yambaye n'amadarubindi mu maso, afite ukuboko kwe kumwe kw'imoso gufashe Idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ukw'iburyo kukaba kumanitse ameze nk'aho ari kurahira, imbere ye hakaba hari n'indangururamajwi , icyumba arimo gifite inkuta z'umuhondo.

Abantu benshi cyane bakaba bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umutuku, ubururu ndetse n'umweru bakaba bizihiwe cyane bakaba bafite utudarapo mu ntoki dufite amabara y'umweru, umutuku ndetse n'ubururu bakaba bicaye abandi bahagaze, akaba ari ahantu mu byatsi ndetse bameze nkaho bari kwambaza umukandida mu matora.

Umugabo wambaye ikositimu. Akaba afite agapapuro mu ntoki ari kugashyira mu kabogisi. Iruhande rwe hari undi mugabo wambaye ikoti ndetse n'ipantaro, nawe akaba arimo arareba ukuntu umugabo ashyira agapapuro muri ako kabogisi. Ni ahantu hameze nko kuri site y'itora kuko hatatse amadarapo y'igihugu, umuhondo, icyatsi, ndetse n'ubururu.

Abantu benshi cyane bakaba bicaye ndetse ahantu hameze nko muri stade, imbere hari umugabo wambaye ikositimu y'umukara ndetse n'amarinete y'umukara, iruhande rwe hari umugore wambaye umukenyero w'ubururu akaba yambaye nawe amarinete, iruhande rwabo hari umugabo wambaye ikanzu y'umutuku ndende n'akagofero k'umukara n'umutuku, ameze nk'aho akora murukiko cyangwa ar'umucamanza.

Abantu bateraniye hamwe bakaba ari abagabo bahagaze barimo barageza kuba bakurikiye ubutumwa, inyuma yabo hari ndetse n'imodoka ziparitse, hirya hari umuhanda ariko w'igitaka, hakaba hari abantu ku ruhande abantu bagenda bacaho hakaba hari amazu menshi akikije ahantu bari ndetse hari n'insinga z'amashanyarazi.

Abantu barimo baragenda, bakaba barimo bagenda, bakaba barimo baragenda mu nzu ifite ibikuta by'umweru, hejuru hakaba hasa umukara, harimo abagabo n'abagore; imbere hari umugabo wambaye ikositimu na karuvati ndetse n'amarinete, hirya ye cyangwa iruhande rwe hari umugore wambaye ikanzu ndende y'icyatsi, inyuma hari umugore wambaye umukenyero ndetse hari n'abagabo babiri bambaye amakositimu basa nk'aho bashinzwe umutekano.

Abantu benshi bicaye imbere akaba ari abagabo, bamwe bambaye amakositimu, abandi bambaye udupira dusanzwe, harimo abirabura ndetse n'abazungu, inyuma yabo haba icyapa kinini cyane cy'umweru ndetse kikaba gifite n'amabara y'ubururu n'umukara, imbere yabo hari imeza iriho igitambaro cy'umukara, hakaba hari amazi yo kunywa bakaba bari kwandika ndetse hari n'amadarapo yo mu bihugu byabo baturukamo.

Abantu benshi cyane bakaba bambaye imipira yiganjemo amabara y'ubururu, umutuku n'umweru, mu ntoki bakaba bafite amadarapo ariho amabara atatu umweru, ubururu ndetse n'umutuku, bakaba ahantu bari hari andi madarapo maremare cyane ashinze ku biti birebire bifite amabara y'umumweru, umutuku ndetse n'ubururu, hirya akaba hateye n'ibiti byinshi.

Abantu benshi bateraniye hamwe barimo baragenda, harimo abagabo ndetse n'abagore, hirya yabo hakaba hateye ubusitani burebure kandi hateye n'ibiti byinshi, imbere yabo hakaba ari umugabo wambaye ipantaro ya kacye ndetse n'ishati y'ikigina umeze nk'aho abayoboye.

Abagabo babiri bahagaze bambaye ikositimu, bakaba mu ntoki bafite udupapuro tw'umutuku, inyuma yabo igikuta gisa umweru ndetse hakaba hari n'amadarapo abiri ahagaze, rimwe ririho ikigantego cy'igihugu cy'u Rwanda ndetse ikindi kiriho idarapo ry'amabara y'u Rwanda, inyuma yabo hari ifoto y'umugabo ndetse hari n'umuntu ufite telefone uri kubafotora.

Abantu benshi bahagaze batonze umurongo bakaba basa nkaho bategereje guhabwa serivisi runaka, hirya hari itente mu mabara y'umweru ndetse hari n'udutambaro tw'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi bari mu kibuga kinini cy'ibitaka ku ruhande hakaba hateye ibiti.

Abantu bahagaze harimo umugabo wambaye ikositimu, ndetse hari ku ruhande n'abagore bambaye imikenyero bakaba bari mu nzu. Amaboko yabo y'iburyo aramanitse ay'ibumoso akaba afashe ku idarapo, imbere yabo hari indangururamajwi bakaba bameze nk'aho bari kurahira.

Abagabo babiri bahagaze, bakaba bari guseka. Umwe akaba yambaye ikoti ndetse na karuvati, undi uri ku ruhande na we ari guseka yambaye imyenda cyangwa impuzankano za gisirikare. Inyuma yabo hakaba hari ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Abantu benshi bari hamwe, bamwe bakaba bahagaze abandi bicaye, bakaba hari n'abagabo batatu babari imbere, babiri muri bo bambaye kositimu, undi ku ruhande yambaye agapira kanditseho indi ntambwe. Bazengurutswe n'amazu menshi kandi maremare.

Abantu benshi bicaye bakaba bameze nk'aho bari mu nama harimo abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara imbere y'abantu haririndi tsinda ry'abantu babari imbere bameze nk'aho babayobora cyangwa babahagarariye bakababicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari meza iteretseho mudasobwa amazi yo kunywa indangururamajwi inyuma y'abo bantu hakaba hari amadarapo abiri.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ukaba urimo uracamo ikamyo ifite amabara y'umutuku. Hirya y'umuhanda hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru dukurikiranye ndetse na ruhurura. Hepfo y'umuhanda hateye ibiti byinshi kandi birebire ndetse hakaba hari n'ubusitani.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba urimo uracamo igikamyo kinini gifite amabara y'umweru ndetse na oranje, akaba ahari na moto ziri gucamo hirya y'umuhanda ari utuyira tw'abanyamaguru, hepfo y'umuhanda hateye ibiti birebire kandi byinshi.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo imodoka y'igikamyo y'amabara y'umweru ndetse ifite n'ibyuma, inyuma ikaba ibitwaye hirya hari na moto ihetse umuntu hari utuyira tw'abanyamaguru ku nkengero z'umuhanda ndetse hepfo y'umuhanda hari ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi bihateye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanyekanye. Hakaba harimo haracamo imodoka, moto ndetse n'igare. Ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru. Abanyamaguru bakaba barimo baraducamo. Hirya hari imodoka nini kandi nyinshi ziparitse zitarikoresha umuhanda mugari, hari ndetse n'ibiti byinshi n'ibyatsi bihateye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba hacamo imodoka, ndetse na moto. Hirya hakaba undi muhanda ugenda mu kindi cyerekezo. Ku ruhande rw'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, abanyamaguru bakaba barimo baracamo. Hari n'amapoto maremare arimo amatara, agenda amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo akamodoka gatoya k'ibara ry'icyatsi gakoreshwa mu kwigisha abantu bashaka kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwaburundu ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru turimo turacamo abantu ndetse n'amazu menshi akikije umuhanda hepfo hari ibiti birebire kandi byinshi biteye iruhande rw'umuhanda.

Iyi modoka nini itwara abantu mu buryo bwa rusange, ikaba iparitse isize amabara y'umweru akaba ari abantu barimo, hirya hakaba n'indi modoka na yo imeze nka yo ziparitse zikaba zimeze nk'iziri ahantu muri gare zitegereje gutwara abagenzi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari gucamo imodoka nini y'igikamyo ifite ibara ry'umweru, ikaba ifite cyangwa yikoreye amatafari, hirya hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse dukurikiranye na ruhurura, hepfo y'umuhanda hari ibiti byinshi kandi birebire bihateye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo moto, hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hari n'amazu agiye azengurutse utwo tuyira tw'abanyamaguru, hari amatara ari ku mapoto maremare agenda amukira abakoresha umuhanda, ndetse hateye n'ibyatsi n'ibiti byinshi iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo imodoka nini yo mu bwoko bwa bisi itwara abantu muburyo bwa rusange hepfo no haruguru y'umuhanda hari utuyira twabanyamaguru twegeranye na ruhurura hepfo y'umuhanda hari ibiti byinshi cyane kandi birebire biteye mu busitani.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo imodoka mo imbere ifite ibara ry'ikigina n'imodoka ikoreshwa mu kwigisha abashaka kubona uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga. Hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hirya y'utuyira tw'abanyamaguru hateye ibyatsi ndetse n'ibiti byinshi.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo akanyabiziga gato k'amapine atatu gatwara imizigo. Ku ruhande y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, hepfo ndetse no haruguru. Haba hepfo y'umuhanda hateye ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo igikamyo kinini gifite amabara y'umweru, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hari na ruhurura. Hepfo y'umuhanda hari ubusitani buteyemo ibiti birebire kandi byinshi, hari n'amapoto amurikira abakoresha umuhanda gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, uwo muhanda ukaba ugenda mu byerekezo byinshi, ugendamo imodoka ndetse na moto, hagati y'imihanda hakaba hari ubusitani buto, buteyemo indabyo ndetse n'ubusitani burimo ibiti, hakaba kuhande hari utuyira tw'abanyamaguru duteye, uruhande rwayo hari ibiti ndetse n'ubusitani.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijyiye bitandukanye hakaba harimo haracamo imodoka z'ubwoko butandukanye harimo n'igikamyo kinini cyane gifite amabara y'umweru harimo haracamo n'abatwaye amagare kuruhande hari utuyira tw'abanyamaguru kuruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru hari amaduka hakaba hari n'icyapa kinini cyanditseho mitsingi kiri mu mabara y'umutuku hari ibiti byinshi biteye ndetse n'ibyatsi iruhande rw'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bigiye bitandukanye. Ku ruhande hakaba hari ibinyabiziga biparitse bitari gukoresha umuhanda, birimo utunyabiziga dutoya tw'amapine atatu, dutwara imizigo. Ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, abantu bakaba barimo baratambuka. Ndetse hari n'amazu menshi yubatse iruhande rw'utwo tuyira tw'abanyamaguru.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanyekanya, hakaba harimo haracamo imodoka iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, harimo n'umuntu gucamo uri ku igare, hirya hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hari n'ibiti byinshi n'ubusitani uburebure buteye hepfo y'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo hacamo ikinyabiziga k'imodoka kiri mu bwoko bw'ikamyo, ikaba isize amabara y'umweru hepfo hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse twegeranye na ruhurura, hakaba hari ubusitani burebure kandi burimo n'ibiti byinshi biteye hepfo y'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo imodoka zigiye zitandukanye, ukaba ariko uwo muhanda udakoze neza ufite ibinogo mo hagati, hakaba harimo hacamo utumodoka tw'amapine atatu dutwara imizigo, hirya hakaba ari amazu maremare akorerwamo ubucuruzi, ndetse n'ibindi bikorwa, hakaba hateye n'ibiti ndetse hari n'ibyatsi.

Imodoka nini ebyiri z'ibikamyo zifite amabara y'umweru, inyuma hakaba hapakiyemo imifuka myinshi ndetse undi ikaba ari igishitingi cy'umukara ndetse hakaba hari akayira k'abanyamaguru, abanyamaguru bakaba bari gutambuka, hari n'amazu menshi ari inyuma ndetse no ku mpande y'izo modoka hakaba hateye n'ibiti.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo n'abanyamaguru ku ruhande hari amazu menshi akikije umuhanda akorerwamo ibintu bigiye bitandukanye hakaba haparitse moto nyinshi cyane hari ibiti byinshi bikikije umuhanda ndetse n'amapoto hari amatara amurikira abantu ndetse n'ibinyabiziga bikoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo igare ndetse n'imodoka nini yo mu bwoko bw'igikamyo ifite amabara y'umweru, haruguru ndetse n'pfo y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, abanyamaguru bari gucamo hepfo y'umuhanda hari ibiti birebire kandi byinshi biteye mu busitani.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo hakamacamo imodoka y'ubwoko bw'igikamyo ifite amabara y'ubururu ndetse na moto. Hirya hari utuyira tw'abanyamaguru, hirya y'utuyira tw'abanyamaguru hakaba hateye ibiti birebire ndetse n'ubusitani, hari n'imodoka ziparitse zitari gukoresha umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse n'amagare. Kuruhande ahari akayira k'abanyamaguru kakaba karimo karacamo abanyamaguru ariko hakaba haparitse n'imodoka, ndetse hari n'amazu menshi ari kuru ruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru akoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka, ndetse na moto, n'amagare, kurahande hari utuyira tw'abanyamaguru, abanyamaguru bakaba bari gucamo, hirya y'utuyira tw'abanyamaguru haparitse ndetse n'imodoka zitari gukorakoresha umuhanda rusange, hari ibiti byinshi bigiye biteye ku ruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru.

Ibinyabiziga byinshi biri hamwe. Bikaba biri aho abantu bafatira ibinyabiziga hazwi nka gare. Hakaba harimo ibikamyo binini bifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru. Hakaba hari n'urujya n'uruza rw'abantu benshi, bamwe baje gutega abandi bambaye impuzankano zisa nkaho baterura imizigo. Hakaba hari n'amatara menshi amurikira abantu mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bitandukanye, hakabamo hari gucamo imodoka nini y'ikamyo ifite amabara y'umweru n'umukara, kurande y'amaracamo ndetse n'umuntu utwaye igare, kurande hari utuyira tw'abanyamaguru ducamo abanyamaguru, hirya yaho hari za ruhurura, ndetse hari ibyatsi byinshi n'ibiti biteye hepfo y'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo akamodoka k'amapine atatu gasize amabara y'ubururu gatwara imizigo, hakaba ndetse hari gucamo na moto, hirya hari utuyira tw'abanyamaguru turi gucamo abantu, hari n'ibiti byinshi ndetse n'ubusitani buteyeye hakurya y'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo akamodoka k'amapine atatu gakoreshwa mu bwikorezi bw'imizigo harimo haracamo ndetse n'igare hirya hari utuyira tw'abanyamaguru abanyamaguru bakaba barimo baracamo hirya y'utuyira tw'abanyamaguru hateye ibyatsi ndetse n'ibiti hakaba hari n'amazu akorerwamo ibintu bigiye bitandukanye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo igikamyo kinini gifite amabara y'umweru n'umukara, hirya ndetse no haruguru y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru twegeranye na ruhurura, hepfo y'umuhanda hari ibiti byinshi kandi birebire bihateye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Akaba arimo aracamo akamodoka gato nk'aka'amapine atatu gatwara imizigo. Hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru, abanyamaguru bakaba bari gucamo. Hepfo y'umuhanda hateye ibiti byinshi ndetse haparitse n'ibikamyo.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo, imodoka y'amapine atatu ikoreshwa mu bwikorezi bw'imizigo, harimo haracamo na moto ndetse n'umuntu utwaye igare. Hirya hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hari epfo ibiti byinshi biteye ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hirya hakaba haparitse imodoka imwe y'kigina n'izindi zifite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, zitwara abantu mu buryo bwa rusange ariko abantu bake. Hirya y'umuhanda hari amazu maremare kandi hakaba hateye ibyatsi ndetse n'ibiti byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, akaba ari umuhanda w'ibyerekezo byinshi, kuruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, ndetse kuruhande hakaba hari imodoka z'amapine atatu zikoreshwa mu bwikorezi bw'imizigo bikeya, zikaba ziparitse, abantu barimo baraca mu tuyira tw'abanyamaguru, hari ibiti byinshi biteye hirya y'umuhanda, ndetse n'amatara amurikira abakoresha umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ariko ku ruhande ntatuyira tw'abanyamaguru duhari, hakaba hari ikinyabiziga cya moto giparitse kurande hari ndetse n'imitaka myinshi ya emutiyeni hakaba hicaye abantu batanga serivisi za emutiyene mobayiro mane, ku ruhande rw'umuhanda hari amazu menshi yo gukorerwamo ubucuruzi ndetse n'andi abantu babamo.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ifite amabara y'umweru n'umuhondo itwara abantu bake mu buryo bwa rusange, hakaba harimo haracamo ndetse na moto, hirya hari utuyira tw'abanyamaguru, ndetse hirya y'umuhanda hari ibiti birebire kandi byinshi bihateye.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ukaba ugenda no mu byerekezo bitandukanye hakaba harimo wacamo moto, ku ruhande hari utiyira tw'abanyamaguru ndetse hepfo y'umuhanda hari amazu menshi akorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye hari n'ibiti bihateye ndetse n'indabyo.

Ibinyabiziga by'amapine atatu bikaba bikoreshwa mu bwikorezi bw'imizigo mike, bikaba biparitse ku ruhande hakaba n'akayira k'abanyamaguru karimo karacamo abanyamaguru hirya hari umuhanda, hari inyubako ndende kandi nyinshi ziri kuru ruhande rw'utwo tumodoka tw'amapine atatu duparitse, hakaba n'ibiti by'amapoto birebire biriho insinga zisakaza amashanyarazi.

Imodoka nyinshi ziparitse. Aho hantu hakaba hari amapave ndetse hari n'urujya n'uruza rw'abantu. Izo modoka zirimo amabisi manini atwara abantu mu buryo bwa rusange. Akaba afite amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umukara. Aho hantu ni muri gare cyangwa aho abantu bategera imodoka zigiye mu bice bigiye bitandukanye, harimo n'utwatsi ndetse duteyemo n'ibiti.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo moto ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hari n'inyubako ndende cyane zifite amabara y'ubucuruzi iruhande utuyira tw'abanyamaguru hakaba hateyemo n'utwatsi turimo ibiti ndetse n'indabyo.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba hari n'ibindi biparitse ku ruhande harimo unacamo ibinyabiziga by'amapine atatu bikoreshwa mu bw'ikorezi bw'imizigo ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hari n'amazu menshi agiye akorerwamo ubucuruzi akaba hari n'amapoto asakaza amashanyarazi.

Abantu benshi bari kugenda abandi bicaye, akaba ari kugenda ahantu hari amapave hatemerewe guca ibinyabiziga, kuruhande rwabo hari amazu maremare ndetse hari abicaye mu busitani bwiza bukikijwe n'ibyatsi ndetse n'indabyo ndetse n'ibiti birebire.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hirya hari akandi gahanda ariko ko karimo tapi y'icyatsi abantu bacamo hirya y'aho hateye ibyatsi byinshi ndetse hari n'ubusitani hari n'akantu karimo amazi aretsemo kameze nk'aho ari ikiyaga gitonya hagati y'iyo mihanda akaba ari amapoto maremare agenda asakaza umuriro cyangwa urumuri mu gihe cy'ijoro.

Inyubako nini yubakishije amatafari ahiye, akaba ari inyubako y'ama etaje, ikaba ndetse ifite amabati y'umutuku, iruhande rwayo hari akayira imodoka zacamo ka kaburimbo. Iruhande rwa kaburimbo hari ikibuga, hakaba hairimo abana barimo barakina, yirya har'agatebe wakwicara ndetse hateye n'utwatsi n'ibiti.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, kurande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hateye n'ibyatsi ndetse n'ibiti birebire, hakaba hari icyapa kurimo cya mpande eshatu kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, kikaba gikoreshwa mu kubahiriza amategeko n'amabwiriza agenga umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hariho icyapa cy'icyuma kikaba kiri muri mpande eshatu kikaba gifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku, kikaba gikoreshwa mu mategeko agenga abakoresha umuhanda ndetse hirya hari ibyatsi ndetse n'ibiti birebire.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba hari akayira k'abanyamakuru ndetse abanyamakuru bakaba barimo baracamo, hirya yateye ubusitani bwiza kandi hakaba hateyemo n'ibiti hari n'icyapa kiri hirya kigaragaza yuko aho hantu hari parikingi, kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru. Hirya y'ubusitani hari amazu.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho umuhanda urangirira hakaba hasize utubara tw'umweru n'umukara, hakaba ndetse hacamo na ruhurura, hirya hari utwatsi turimo n'icyapa kinini kikwereka ko aho hantu haca abantu cyangwa bahambukira, kiri mu mababara y'umutuku n'umweru, hirya hari inyubako nini cyane iteyemo ibiti ndetse n'utwatsi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, ku ruhande hari inzira ndende cyane n'amagorofa menshi ihari ndetse hakaba hari n'utuyira tw'abanyamaguruteye, ibyatsi byinshi n'ibiti iruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru hagati hagiye hari ibiti birebire biriho amatara amukira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Akayira k'abanyamaguru. Kakaba kubabakishijwe amapave . Hirya hari ubusitani burebure burimo n'ibiti. Hakaba hari icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu. Kikaba kigaragaza ko ahantu Ari haparikwa imodoka . Hirya hakaba hari inzu nini cyane y'amagorofa menshi.

Umuhanda munini usanzwe ucamo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo amagare menshi cyane akaba ameze nk'aho bari mu irushanwa. Ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru hepfo hakaba hari ibyatsi byinshi bikikije umuhanda ndetse n'ibiti byinshi, hakaba hari abantu benshi baje kureba abo bantu basiganwa, hari n'icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru n'umukara kivuga ko ahantu ari i Muhanga.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba hari ibyatsi byinshi ndetse hari n'ibiti. Ahantu hajya kumera nk'ishyamba, hakaba hari icyapa cy'umweru cyanditseho Rusizi. Akaba hakwereka ko ahantu ari mu karere ka Rusizi, n'ikindi cyapa inyuma kikwereka ko ugeze ahantu muri Nyungwe.

Ahantu hari imbuga nini cyane, ikaba iteyemo ubusitani ndetse n'ibiti hateyemo n'ibigori bike, haba kuhande rwayo hari amazu manini cyane, afite amabara amwe y'umuhondo andi y'umweru, akaba ari amazu agiye akurikiranye.

Umuhanda ugenda mu byerekezo bitandukanye hakaba harimo haracamo imodoka y'umukara hirya hakaba hari ruhurura ndetse hakaba hari n'amazu menshi agiye akorerwamo ibintu bitandukanye, hari amapoto maremare amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba haca hari gucamo imodoka ndetse n'amamoto, uwo muhanda ugenda mu byerekezo bitandukanye hagati y'imihanda hakaba hateye utwatsi ndetse hari n'ibiti, hirya hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru dukurikiranye n'amazu maremare akorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, abantu bakaba barimo baragenda mu tuyira tw'abanyamaguru.

Amazu menshi ari hamwe. Akaba ari amazu agiye akurikiranye. Hakaba hari n'ibiti byinshi bigiye biteye hagati y'ayo mazu. Akaba ari amazu amwe ageretse, ayo kubamo, ay'ubucuruzi ndetse n'andi. Hakaba hari n'insinga zigenda zisakaza umuriro muri izo ngo.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ku ruhande hakaba nta gahanda k'abanyamaguru gahari, hepfo y'umuhanda hakaba haparitse igare ndetse hari n'inyubako nyinshi zikorerirwamo ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane ubucuruzi, hanze akaba yicaye abantu bateraniye hamwe barimo baraganira, ndetse ku ruhande hakaba hateye n'ibiti.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo moto idafite umugenzi, hirya hakaba hateye n'ibiti hakaba hari inzu ifite igipangu cy'umukara ndetse akaba ari inzu nziza isize amabara y'umweru.

Inzu nini ya etaje ikaba ari inzu yo kubamo, ikaba ifite amabati y'umutuku, ndetse hasi hakaba hari amapave, mo imbere haparitsemo imodoka ndetse ikaba ifite n'igipangu gisize ibara ry'ikigina, ku ruhande hakaba hari n'andi mazu, ikaba ifite ibyatsi biteye hanze y'igipangu cyayo ndetse n'ubusitani.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, akaba ari umuhanda ku ruhande rwawo hari amazu maremare, akaba ari amazu abamo abantu ndetse andi akorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye. Imbere yaho hakaba hateye utwatsi dukeya ndetse n'indabyo, hakaba hari n'ibiti birebire bicaho insinga z'amashanyarazi zisakaza umuriro mu baturage.

Inzu nyinshi cyane zigiye zegeranye zikaba ziherereye ahantu bita i Remera i Kigali, hirya aho uko ubibona hari hari n'andi mazu atararangizwa kubakwa hakaba n'ibikoresho by'abubatsi bigaragara ari birebire cyane, hari n'ibiti byinshi bigiye biteye hagati y'ayo mazu.

Inzu nini ikaba ari inzu Igeretse ikaba ifite inkuta z'umweru ndetse n'ibara ry'ikigina, ikaba ndetse ifitemo imbere ibiti biteyemo hakaba no hanze hari ubusitani burimo indabyo ndetse n'ibiti. Ifite inzugi zisa n'icyatsi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo moto zifite abagenzi. Ku ruhande hari n'akayira k'abanyamaguru hakaba haparitse n'imodoka zitari gukoresha umuhanda rusange. Uruhande rw'akayira k'abanyamaguru hari inyubako ndende isize amabara y'umuhondo ndetse iruhande hakaba hateye n'ibiti.

Inyubako nyinshi kandi zigiye zikurikiranye, akaba ari inyubako zitaruye ahantu hari umuhanda ndetse hirya yaho hakaba ubusitani bunini cyane, bukaba buteyemo ibiti birebire kandi by'ubwoko bwinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Kuruhande hari akandi gahanda kagenda mu kindi cyerekezo, kakaba kari gucamo imodoka y'umweru ndetse n'indi y'umukara, hari n'abanyonzi bari guca mo. Kuruhande hari akayira k'abanyamaguru, abanyamaguru bakaba bari gucamo, hirya hari amazu maremare akorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, kuruhande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru, ndetse abanyamaguru bakaba barimo baracaho, hirya haparitse imodoka zitarimo zirakoresha umuhanda, kandi ku ruhande aho izo modoka ziparitse hari amazu akorerwamo ubucuruzi, bamwe mu bantu bakaba barimo barava mu mazu bamaze guhaha, hirya hari ibiti birebire by'amapoto, bisakaza amashanyarazi mu baturage.

Amazu menshi agiye akurikiranye, akaba atuyemo abantu andi akorerwamo ubucuruzi, hirya ari inzu ndende kandi y'amagorofa menshi ikoreramo uruganda rwa azamu, hakaba hagiye yateye ibiti hagati y'ayo mazu, hakaba aho hantu ari Kimironko kwanayinzira.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Ukaba uri gucamo imodoka nyinshi ndetse na moto. Hirya y'umuhanda hariho utuyira tw'abanyamaguru, abanyamaguru bakaba bari gucamo ndetse hari n'imodoka ziparitse zitari kugenda. Hirya y'aho hari inyubako ndende y'amagorofa menshi ikorerwamo ubucuruzi, ikaba isize amabara y'umuhondo.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ari umuhanda uri ahantu hari inzu nyinshi, ku ruhande hakaba hari akayira k'abanyamaguru gahari, hakaba hari amazu agiye azengurutse uwo muhanda, hakaba ateye n'ibyatsi ndetse n'ibiti byinshi hari n'amapoto asakaza amashanyarazi mu baturage.

Amazu menshi agiye akurikinye, akaba amwe afite amabati y'umukara andi y'umutuku ndetse akaba amwe hejuru ariho na senyenge, hakaba hari ibiti byinshi bigiye biteye hagati y'ayo mazu ndetse hakaba harimo n'ubusitani.

Inyubako nini ikaba ari inyubako isize amabara y'ubururu ndetse n'umweru, hakaba hari icyapa kinini kivuga ngo ''Amakaro n'ibikoresho by'ubwubatsi.'' Hariho na nimero wahamagara mu gihe ubashatse, ku ruhande hakaba haparitse imodoka iri mu mabara y'ubururu.

Inyubako nini kandi ndende ifite amagorofa abiri . Ikaba isize amabara y'umweru ndetse ifite n'imiryango y'umukara. Hanze hakaba haparitse imodoka nyinshi mo imbere ndetse no hanze hakaba hateye ibiti byinshi kandi birebire.

Amazu menshi cyane agiye akurikiranya akaba ari amazu matoya ndetse na manini .Hari ndetse n'ikigega gifata amazi mu gihe cy'imvura, hari amapoto maremare agenda asakaza amashanyarazi mu ngo aho hantu hateye n'ibiti hagati y'amazu.

Inyubako nini cyane y'amagorofa menshi, ikaba isize amabara y'umuhondo, hakaba hakorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, imbere yabo hakaba hari abantu benshi barimo baratambuka harimo n'abakozi ba MTN mobayiro mani bahagaze bategereje gutanga serivisi, hakaba hari n'imodoka nyinshi ziparitse imbere y'iyo nyubako.

Umuhanda munini ugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru, hakaba hateye n'ubusitani burebure ndetse n'ibiti byinshi kandi birebire, hari n'amatara maremare asizeho ibara ryera, agenda amurikira ubakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, hakaba nta kinyabiziga kiri gucamo. Hari amazu ku ruhande akikije uwo muhanda, ndetse hari n'utuyira tw'abanyamaguru. Hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti birebire, bigiye biteye ku nkengero z'umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo moto ihetse umuntu. Ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru, kakaba karimo karacamo abana. Ku ru hande rw'akayira k'abanyamaguru, hari icyapa kigaragaza ko ahantu hari ishuri ndetse hakaba hari n'ikindi cyapa cyerekana ko hegereye dodani. Iruhande rwabyo hateye ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bijyiye bitandukanye ukaba urimo uracamo imodoka ndetse na moto, ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye. Hagati y'imihanda hari utuyira duteyemo pasiparume ndetse n'ibiti, hakaba hateyemo n'amapoto agenda amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro. Hirya y'umuhanda hateye ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo imodoka ndetse n'amagare, hakaba hari umuhanda wo hasi ndetse no hejuru hari undi muhanda, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru tukaba dukikijwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti birebire.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari umuhanda ugenda mu byerekezo bitandukanye, harimo haracamo imodoka ndetse na moto, hagati hakaba hari ubusitani burebure kandi hateyeho n'ibite n'amapoto amurikira abantu mu gihe cy'ijoro, ku ruhande rw'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya, uwo muhanda ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye. Harimo haracamo moto, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru abanyamaguru bakoresha batambuka kandi hateye ibyatsi ndetse n'ibiti. Hari n'amazu menshi agiye yegereye utuyira tw'abanyamaguru.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hrimo haracamo imodoka zisanzwe ndetse n'ibikamyo, kuruhande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hateye pasiparumu ndetse n'ibiti birebire, kuruhande hari imodoka iparitse yo itarimo irakoresha umuhanda rusange.

Umuhanda munini ugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hateye n'ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti ku ruhande y'utuyira tw'abanyamaguru, hakaba hari n'amapoto maremare ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya, hakaba hacamo imodoka ndetse na moto, ku ruhande hakaba hari n'igare, hari utuyira tw'abanyamaguru turimo turacamo abanyamaguru, turimo turacamo abanyamaguru, iruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru hateye ibiti birebire kandi byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo moto ziparitse zitegerejeko amatara yaka ibara ritandukanye ribemerera gutambuka muri icyo cyerekezo. Hirya hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hateye n'ibiti byinshi kandi birebire, hari n'amapoto ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, umuhanda ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanye, kuruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hateye ibyatsi, hakaba hari na ruhurura hari n'ibiti byinshi biri iruhande rw'umuhanda, hari n'amazu hepfo yegereye umuhanda ndetse n'amapoto agenda asakaza umuriro mu bice bitandukanye.

Umuhanda munini ucamo imodoka zigiye zitandukanye, akaba ari umuhanda uri kugenda mu byerekezo bitandukanye, hari gucamo imodoka ndetse na moto, hirya hari icyuma gifata cyangwa gifotora imodoka zirengeje umuvuduko runaka, kugira ngo hirindwe impanuka zo mu muhanda. Hirya hakaba n'ibiti birebire kandi byinshi biteye hafi y'utuyira tw'abanyamaguru.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari umuhanda ucamo munsi ndetse n'undi uca hejuru, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hakaba hateye n'ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti.

Umuhanda munini ucamo ibyabiziga bigiye bitandukanye, akaba ari umuhanda uca mu byerekezo bitandukanyekaba, hakaba harimo haracamo imodoka, moto ndetse n'ibindi binyabiziga, ku hande hari utuyira tw'abanyamagurukaba, hakaba hateye n'ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti, hirya hari amapoto ariho amatara amurikira abakoresha umuhanda mu gihe k'ijoro.

Umuhanda ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Akaba ari umuhanda ugenda mu byerekezo bitandukanye. Hakaba hari ku ruhande utuyira tw'abanyamaguru turimo turacamo abantu. Hagati ndetse no hirya y'umuhanda hagiye hari ibyatsi ndetse n'ibiti biteyemo. Hari n'amatara maremare amurikira abakoresha umuhanda mu gihe cy'ijoro. Hari ndetse n'amazu ari ku ruhande n'utuyira tw'abanyamaguru.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo ikinyabiziga cya moto ndetse zihetse abantu izindi zidahetse abantu. Hirya hari utuyira tw'abanyamaguru, tukaba duteyeho amapoto maremare amukira abakoresha umuhanga mu gihe cy'ijoro ndetse hateye n'ibyatsi n'ibiti birebire.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, akaba ari umuhanda ugenda mu byerekezo byinshi, hakaba hagati y'imihanda hagiye harimo utuyira duteyemo ibyatsi ndetse harimo n'ibiti, hirya hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru tukaba dukikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo akamodoka gatoya gakoreshwa mu kwigisha abashaka kubona uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga, ku ruhande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hirya y'umuhanda hateye ibyatsi ndetse n'ibiti byinshi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo haracamo imodoka. Umuhanda ujya mu byerekezo byinshi, ndetse hakaba n'igare riri guca mu muhanda. Ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru; ndetse hakaba hateye ibiti byinshi hirya y'umuhanda, hakaba n'amazu akorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye hakaba harimo haracamo imodoka ndetse kurande hakaba hari gucamo na moto, ukaba ari umuhanda w'ibyerekezo bibiri, hari ku ruhande utuyira tw'abanyamaguru tugiye duteyemo hirya yaho ibyatsi ndetse n'ibiti birebire n'amapoto maremare asakaza amashanyarazi ndetse anamurikira abakoresha umuhanda.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanya, hakaba harimo haracamo kakanyayabiziga k'amapine atatu gakoreshwa mu bwikorezi, harimo haracamo ndetse na moto, hari n'umuntu ufite igare uri kwambukiranya imihanda, ku ruhande hari utuyira tw'abanyamaguru ndetse hateye n'ibiti byinshi n'ubusitani.

Mu muhanda ucamo ibinyabiziga bigijye bitandukanye, hakaba harimo haracamo moto ndetse n'amagare. Kuruhande hari ututira tw'abanyamaguru. Kuruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru, hateye ibyatsi byinshi, ndetse n'ibiti birebire. hirya y'umuhanda hari imodoka zo ziparitse zitari gukoresha umuhanda, ziri mu bwoko bw'ibikamyo.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Hakaba harimo haracamo imodoka. Kandi uwo muhanda ukaba ugenda mu byerekezo bigiye bitandukanye. Hirya y'umuhanda hari utuyira tw'abanyamaguru. Ndetse ahitaruye hakaba hari ibiti birebire kandi byinshi biteye mu busitani. Hari n'amapoto asakaza amashanyarazi.

Umuhanda munini ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Ukaba ugenda mu byerekezo bitandukanyera. Kuruhande hari akayira k'abanyamaguru gacamo abagenzi, hakaba n'ibiti birebire ndetse n'ibyatsi biteye kuruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru. Hakaba n'izindi nzu ndende ziteye kuruhande rw'utuyira tw'abanyamaguru.